Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza, kuko byitaweho kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi muri uwo murima harimo umuntu wambaye imyenda isa n'umweru, yambaye na ga zisa n'icyatsi, ikindi kandi afite n'ipombo arimo arayitera kuri icyo gihingwa, kuko bakijyana ku isoko kuko kivamo amafaranga.

Icupa rifite amabara atandukanye, ikindi kandi icupa rivamo umuti abantu bifashisha bari gutera ku myaka. Ikindi kandi umuti ni igenzi kuko idufasha mu mirimo igiye itandukanye.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi bisa neza kuko byitabwaho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Muri uwo murima harimo akamashini bakoresha k'ikoranabuhanga kari kuvomera iyo myaka, ikindi kandi barayigura kuko bayijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi muri uwo murima harimo umuntu urimo kubitera umuti, yambaye imyenda isa n'umweru n'indi isa n'umukara, yambaye n'inkweto twita bote, ahetse ikintu twita ipombe, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Abantu bambaye imyenda isa n'umutuku n'indi isa n'umukara, harimo umwe wambaye imyenda isa n'umweru, ikindi kandi abo bantu bafite umufuka bari kuyoreraho ibintu twita ibisenyi, icyindi kandi bari gukora umuhanda, kuko n'ingenzi ku baturage.

Igishashi gisa n'umuhondo ikindi kandi kiriho ibihingwa bigiye bitandukanye bisa neza iyo byitaho, ikindi kandi barabirya ikindi barabigurisha kuko babijyana ku isoko kuko bivagamo amafaranga.

Umurima urimo umuntu uhetse ipombo, yambaye imyenda isa n'umuhondo, yambaye n'ikintu cy'agapfukamunwa, yambaye na ga zisa umukara, ahetse ipombo isa n'umutuku, arimo gutera umuti ku bigori, ikindi kandi umuti ni ingenzi ku myaka kuko uwufasha gutuma byera neza.

Ibi bisa neza kuko byitaweho ,ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire ryitwa imvaruganda, ikindi kandi muri uwo murima hari umuntu twita umugorenome ,ari gutera umuti yambaye imyenda isa n'umukara ,ikindi kandi yambaye na ga isa n'umweru.

Umuti bifashisha bari gutera ku bigori, ikindi kandi umuti mwiza cyane, kuko ugira akamaro ku bihingwa, kuko ubifasha kwera neza, ikindi kandi umuti bawukoresha mu bindi bintu bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi muri uwo murima, harimo umuntu wambaye ipantaro hasi hejuru nta kindi yambaye ,yahetse ipombo ari kuvomera ibyo bihingwa bisa neza, ikindi kandi barabigura kuko babijyana ku isoko, kuko bivagamo amafaranga.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo umuntu wambaye imyenda isa n'umweru, n'ubururu ikindi kandi yambaye n'agapfukamunwa, ikindi afite imashini bifashisha bari kuvomera ibihingwa kuko ibihingwa iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije.

Amafi ari mu ndobani ni meza cyane kuko yitaweho, ikindi kandi araryoha bayajyana ku isoko bakagurisha, kuko havamo amafaranga, ikindi kandi araryoha.

Amafi ari mu dutebo tugiye dutandukanye twinshi cyane, ikindi kandi amafi ni meza cyane kuko araryoha ikindi kandi aba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu, ikindi kandi amafi bayajyana ku isoko kuko bayagura kuko avamo amafaranga.

Amazi menshi cyane ari mu bwato ruguru y'ubwato hari ibiti bigiye bitandukanye ikindi kandi harimo n'abantu. Ubwato bwiza cyane kuko badufasha kugenda mu ngendo z'amazi tugiye mu mirimo igiye itandukanye.

Amafi ari mu ishashi asa neza cyane ikindi kandi amafi aba meza kuko barayarya, ikindi kandi araryoha kuko barayagura kuko bayajyana ku isoko kuko avamo amafaranga.

Ifi iri ku iparato ifite amabara agiye atandukanye ,ikindi kandi ifi ni nziza cyane kuko iraryoha, ivamo isosi imeze neza, ikindi kandi ifi iba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu, ikindi kandi amafi aragurwa kuko bayajyana ku isoko akavamo amafaranga.

Umurima urimo amazi menshi, ikindi kandi hari n'ibyatsi byinshi cyane, ibiti bigiye bitandukanye, imbere y'ayo mazi hari umuntu, ikindi kandi amazi aba meza cyane kuko turayakoresha, ikindi kandi hazamo amafi, kuko araryoha, kuko bayajyana ku isoko akavamo amafaranga.

Ifi isa neza iri ku iparato ikindi kandi imbere y'iyo fi hari ibirungo bigiye bitandukanye, ikindi kandi ifi iraribwa kuko iraryoha kuko iba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi harimo amazi, hari n'umuntu uri mu bwato. Ikindi kandi ubwato ni bwiza cyane kuko turabwifashisha, iyo tugiye mu ngendo zigiye zitandukanye.

Amafi amanitse ku migozi, ikindi kandi afite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru n'umukara, ikindi kandi amafi ni meza cyane, kuko araryoha, ikindi amafi aba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu, ikindi kandi amafi bayajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Ifi isa neza, ikindi kandi kuko yitaweho, ikindi kandi ifi iraryoha iba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu. Ikindi kandi imbere y'iyo fi hari utwatsi twita sereri, hari n' ibindi twita amaronji. Ikindi kandi amaronji araryoha kuko agira intungamubiri.

Ifi iri ku iparato isa n'umweru, ikindi kandi iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi amafi asa neza kuko araryoha, ikindi kandi amafi barayagura iyo bayajyanye ku isoko kuko havamo amafaranga, ikindi kandi amafi aba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu.

Inzu twita mu isoko, bacururizamo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo amafi isambaza, indagara, ibishyimbo, amasaka bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi amafi agira intungamubiri mu buzima bw'abantu, ikindi kandi barayagura kuko avamo amafaranga.

Abantu batandukanye bari ahantu twita ku kiyaga barobera amafi, ikindi kandi bafite amafi ku nshundura. Amafi ni meza cyane kuko ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko yubaka umubiri, ikindi kandi amafi bayajyana ku isoko ,kuko barayagura kuko havamo amafaranga.

Ahantu twita mu ruzi, ikindi kandi harimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi harimo ubwato bwambutsa abagenzi, ubwato ni bwiza cyane, kuko barabwifashisha iyo bari kwambuka mu mazi, bagiye mu ngendo zigiye zitandukanye.

Amafi ari ku meza ameze neza kuko yitaweho, ikindi kandi amafi araryoha, ikindi kandi barayarya kuko bayajyana ku isoko barayagura kuko avamo amafaranga, ikindi kandi amafi aba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo n'amazi ruguru y'ayo mazi hari ibiti hari n'umuhanda, harimo n'imodoka iri kugenda, ikindi kandi amazi ni meza cyane kuko tuyifashisha turi koga, ikindi kandi tuyifashisha turi kuvomera ibihingwa.

Amafi menshi cyane ari ku kintu kimeze nk'inkoko, ameze neza. Ikindi kandi amafi araryoha, ikindi barayagura iyo bayajyanye ku isoko, kuko havamo amafaranga. Ikindi kandi amafi iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije.

Amafi asa neza kuko yitaweho, ikindi kandi araryoha, ikindi bayajyana ku isoko kuko barayagura kuko havamo amafaranga, ikindi kandi araryoha kuko ni intungamubiri mu buzima bw'abantu.

Ikiyaga kinini cyane kirimo amazi, giteyemo ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi amazi ni meza cyane, kuko turayifashisha dukora imirimo igiye itandukanye harimo kuyoga, kuyameshesha no kuyubakisha.

Mu murima uhinzemo ibyatsi, ikindi kandi imbere y'uwo murima harimo amazi, ikindi kandi harimo n'ibindi twita ibidomoro, ikindi babivomeramo kuko babibikamo amazi yo gukoresha, ikindi kandi harimo n'ibyuma bifashe ibyo bidomoro.

Amafi ari mu ndobo isa n'umweru ikindi kandi amafi asa neza iyo yitaweho, ikindi kandi amafi aba mu mafunguro aryoha. Ikindi kandi amafi ni meza cyane kuko barayarya ikindi kandi bayajyana ku isoko kuko havamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibiti ni byiza cyane kuko byitaweho. Ikindi kandi ibiti ni byiza cyane kuko tubyifashisha turi kubikoresha imirimo igiye itandukanye harimo kubaka no kubicanisha.

Umurima uhinzemo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisaga neza kuko byitaweho, bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babiha inka, kuko bigira intungamubiri ku nka, harimo insina ikindi kandi insina, zivamo ibitoki kuko barabirya.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo: ibigori hari, n'ibidodoki ,imbere yaho hari n'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, isakaje amabati asa n'ubururu, ikindi kandi ibidodoki biraribwa kuko biraryoha, ikindi kandi barabigura, kuko babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima munini cyane wahinzemwo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo imboga, insina, ikindi kandi imboga ziba nziza cyane iyo bazitayeho bazishyiragaho ifumbire bita imvaruganda, ikindi kandi imboga bazijyana ku isoko, kuko barazigura, kuko zibamo amafaranga, ikindi kandi turanazirya

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Harimo avoka n'ibindi biti twiga imihati. Ikindi kandi ibiti bivamo ibintu bigiye bitandukanye. Avoka zivamo imiti . Ikindi n'ibindi zivamo imiti. Ikindi ni imiti bifashisha bavura mu buryo bwa kinyarwanda.

Umurima uhinzemo ibiti bisa neza, ikindi kandi hubatsemo n'inzu isize amarangi asa n'umuhondo, ayandi asa n'umutuku, ikindi kandi ibiti ni byiza, kuko barabyifashisha iyo bari kubaka.

Uhinzemo ibyatsi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije kuko babiha inka cyangwa ihene, ikindi kandi ni ingenzi ku buzima bw'amatungo, kuko ni bitunga inka.

Umurima uhinzemo igihingwa twita amashaza, asa neza cyane kuko yitabwaho, iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi amashaza ni meza cyane kuko araribwa, araryoha, ikindi bayazana ku isoko, kuko havamo amafaranga.

Ibihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko barabyifashisha, iyo bari kuvura abantu ari yo miti tuvuga, twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga, ikindi kandi biranaribwa.

Umurima munini cyane, ubuhinzi bw'igihingwa twita amashaza asa neza kuko yitabwaho, ikindi kandi iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amashaza araryoha ikindi bayajyana ku isoko kuko avamo amafaranga.

Umurima urimo ibimera bigiye bitandukanye, ikindi kandi ibimera ni byiza cyane kuko turabyifashisha. Ikindi kandi harimo igihingwa twita ikidodoki , ikidodoki kiraryoha kuko kiraribwa ikindi kandi bakijyana ku isoko, kuko kivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita amashaza, ashya neza kuko kitaweho ,ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije ,kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barayarya, ikindi bayajyana ku isoko, kuko barayagura kuko havamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bisa neza kuko byitaweho. Ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga. Ikindi kandi babikoresha iyo bari kuvura kuko bivamo imiti, twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima munini cyane urimo ibintu bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo abantu babiri bari kugenda, umwe ari ku igare, undi ari kugenda n'amaguru. Ikindi kandi nyuma yaho hari amashuri yubatse neza, yubakishije amabati asa n'ubururu, asize amarangi asa n'umuhondo, ikindi kandi amashuri ni meza cyane, kuko tuyakuramo ubumenyi.

Umurima uhinzemo igihingwa twita igihaza, ikindi kandi gisa neza kuko kitaweho, ikindi kandi kiraribwa kuko kiraryoha, ikindi bakijyana ku isoko kuko barakigura kuko kivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo icyatsi, ikindi kandi gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije kuko bashyizeho ifumbire twita imvarugarada, ikindi kandi kivamo umuti kuko tuwita umuti wa kinyarwanda.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo n'inzira y'abantu bacamo, ikindi ibihingwa babyifashisha kuko bivagamo imiti twivurisha, ariyo bita imiti ya kinyarwanda, ikindi kandi bivamo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibiti twita ishyamba, harimo ibigori ikindi kandi ibigori biraribwa kuko biraryoha, ikindi kandi babishyiraho ifumbire twita imvaruganda, kuko babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo urubuto twita itunda risa neza kuko ryitaweho, ritanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amatunda turayarya kuko araryoha, ikindi bayajyana ku isoko kuko barayagura kuko avamo amafaranga.

Umurima urimo ibimera byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ikindi kandi, ibimera ni byiza cyane kuko bivamo imiti abantu bifashisha bari kwivura, ariyo twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima urimo abantu bagiye batandukanye bagiye guhinga, ikindi kandi harimo ibyatsi, ikindi harimo amashuri, kuko amashuri ni ingenzi ku baturage, kuko tuyigiramo, kuko dukuramo ubumenyi.

Umurima uhinzemo ibiti bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ibiti biba byiza cyane kuko turabyubakisha, ikindi kandi turabicana, ikindi tubijyana ku isoko, kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda ikindi kandi biraribwa, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igiti twita avoka, ikindi kandi avoka ni nziza cyane, kuko iraryoha, ikindi kandi barayirya, ikindi bayijyanaga ku isoko kuko barayigura, ikindi kandi ivamo amafaranga.

Ubwatsi busa neza kuko bwitabwaho, kandi butanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi babuha inka, kuko ziraburya, kuko ni intungamubiri mu buzima bw'inka.

Umurima uhinzemo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi barabyifashisha iyo bari kuvura ari yo miti twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima uhinzemo ibigori, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi ibigori bitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, ikindi kandi ibigori biraribwa, ikindi babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye bisa neza, kuko byitaweho ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije. Bashyiraho ifumbire twita imvaruganda ikindi kandi barabyifashisha iyo bari kugaburira itungo twita inka n'amahene.

Umurima uhinzemo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi barabyifashisha iyo bari kuvura kuko barabinwa, kuko ni byo bivamo umuti twita imiti ya kinyarwanda kuko biravura.

Umurima munini urimo ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi ibiti turabyifashisha twubaka, ducana ikindi kandi turanabyivurisha, ari ibyo twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitabwaho kandi ibihingwa barabyifashisha kuko babikoramo imiti bivurisha, ariyo twita imiti ya Kinyarwanda.

Bihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye ikindi kandi muri uwo murima harimo umuntu urimo kugenda imbere ye hari ikintu twita ipironi, ikindi kandi ibihingwa bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi barabirya ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima munini cyane urimo amashuri asakaje amabati asa n'ubururu, yubakishije amatafari ahiye asize amarange asa n'ubururu n'andi asa n'umuhondo. Ikindi kandi harimo inka ziri kurisha ubwatsi ,ikindi kandi ibyatsi ni ingirakamaro ku nka kuko ni byo biryo by'inka, ikindi kandi inka ziba nziza cyane kuko barazigura.

Umuririma uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitabwaho, kuko bitanga umusaruro ushimishije, bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, ikindi kandi barabirya, ikindi kandi babijyana ku masoko, kuko bivamo amafaranga.

Inzu yubakishije amabati asa n'umweru n'ayandi asa n'umukara, isize amarangi asa n'umuhondo, ikindi kandi ikoresheje inzugi z'ibiti, ikindi imbere y'iyo nzu, hari umwana, hari n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi ibihingwa bivamo imiti bifashisha bari kuvura, iyo twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima urimo amazi, uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Iyo byitaweho bitanga umusaruro gushimishije, babijyana ku isoko bagakuramo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo insina zeraho ibitoki, ikindi kandi ibitoki biraribwa kuko babijyana ku isoko, kuko barabigura ikindi kandi bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ruguru y'ibyo bihingwa hari ibiti by'ishyamba. Ikindi kandi ishyamba riba ryiza cyane kuko turikuraga ibiti twifashisha twubaka inzu, tubicana, tukabikoresha n'imihanda ni cyo cyiza cy'ibiti.

Ubunyobwa busa neza ikindi kandi buratonoye, ubunyobwa ni bwiza cyane kuko turaburya ikindi kandi tubukuramo amavuta, ikindi ubunyobwa babujyana ku isoko kuko barabugura kuko buvamo amafaranga.

Igiti twita ipera risa neza kuko ryitaweho ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ipera riraryoha kuko bararirya, ikindi kandi barijyana ku isoko kuko bararigura kuko rivamo amafaranga.

Umurima munini urimo abantu babiri bari kugenda, ikindi kandi harimo ibihingwa twita ibirayi, ikindi kandi ibirayi ni byiza cyane kuko biraryoha, ikindi kandi barabigura kuko babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita ibihaza， gisa neza kuko kitaweho， ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda， ikindi kandi ibihaza biraryoha，kuko barabirya，babijyana ku isoko， kuko bivamo amafaranga.

Ibirayi biri ku iparato bisa neza，kuko barabirya，ikindi kandi biraryoha，ikindi babijyana ku isoko，kuko barabigura， kuko bivamo amafaranga n'ibindi bitandukanye.

Inkoko isa neza ikindi kandi inkoko iri mu rwari, iri kumwe n'utwana twayo dusa neza, inkoko iba nziza cyane, iyo yitaweho itanga umusaruro ushimishije, ivamo amagi, ikavamo amafaranga iyo bazigurishije.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza, kuko byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi biraribwa, kuko babijyana ku isoko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Iparato isa n'umweru， iriho igihingwa twita ibijumba， bisa neza kuko kitaweho， kiraribwa kuko kiraryoha， ikindi kandi hariho n'ibirayi， ikindi kandi ibirayi biraryoha， ikindi babijyana ku isoko， kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Urubuto twita ipera rimeze neza, ikindi kandi ni amapera abiri, rimwe rirasatuye risa neza, kuko ipera riraryoha bararirya, ikindi kandi iyo ryitaweho ritanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amapera bayajyana ku isoko kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Inkoko, zifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'umutuku, ikindi ni inkoko zigiye zitandukanye, harimo inkokokazi n'isake, ikindi isake ziba nziza cyane kuko zifasha inkokokazi, kugira ngo zibyare nkoko.

Iparato isa n'umukara iriho avoka ebyiri zisatuye, indi ntisatuye. Ikindi kandi avoka barayirya kuko iraryoha, ikindi kandi ivamo amavuta, ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko barayigura, kuko ivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo umuntu uri gusarura ibyo bihingwa bisa neza iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije. Iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barabigura ikindi barabirya, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Guhinzemo urubuto twita ironji risa neza kuko ryitaweho, iyo ryitaweho ritanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ironji bararirya kuko riraryoha, ikindi kandi barijyana ku isoko kuko barigura kuko rivamo amafaranga.

Igihingwa twita amateke, ikindi kandi gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi iyo cyitaweho gitanga umusaruro ushimishije, kuko ushyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amateke barayarya, ikindi bayazana ku isoko kuko havamo amafaranga.

Igihingwa twita amaronji asa neza. Harimo atonoye ari mu isorori, andi ntatonoye. Ikindi kandi amaronji ni meza cyane, kuko aryoha. Ikindi iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, kuko barayagura. Iyo bayajyanye ku isoko kuko havamo amafaranga.

Umurima uhinzemo inyanya zisa neza ikindi kandi zitabwaho kuko zitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiramo ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi inyanya ziraryoha kuko barazirya , ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga. Izo nyanya hari umuntu urimo kuzisarura.

Umurima munini cyane urimo inyamaswa twita intama, iba nziza cyane iyo yitaweho ikindi kandi itanga umusaruro ushimishije kuko ivamo amafaranga ikindi kandi ivamo n'inyama kuko turazirya.

Igihingwa twita puwavuro, gisa neza kuko kitaweho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barayirya, ikindi bayijyana ku isoko kuko barayigura kuko ivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibigori bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ibigori barabirya, ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura, ikindi bivamo amafaranga.

Amapera ari mu ndobo asa neza kuko yitaweho, ikindi kandi agatanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amapera araribwa, ikindi bayajyana ku isoko, kuko barayagura kuko avamo amafaranga.

Imbuto twita ipapayi isa neza ,ikindi kandi ipapayi iba nziza iyo yitaweho itanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ipapaye ni nziza cyane kuko iba mu mbuto zubaka umubiri w'abantu, ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Urubuto twita imyembe， ruri mu gapaniye gasa n'ubururu，harimo n'agafuka gasa n'umweru，ikindi kandi ise neza，kuko imyembe iraryoha， barayirya，ikindi kandi bayijyana ku isoko，kuko barayigura， kuko havamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibigori, intoryi, bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi harimo abantu batatu, ikindi bari kuwuvomera bakoresheje ibintu by'ikoranabuhanga. Ikindi kandi intoryi ziraribwa, kuko ziraryoha, ikindi kandi bazijyana ku isoko, kuko zivamo amafaranga.

Igihingwa twita amaronji kiri mu ibasi isa n'umutuku. Ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, bitanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi amaronji barayarya kuko aryoha, ikindi kandi bayajyana ku isoko kuko barayagura kuko avamo amafaranga.

Ibirayi bisa neza iyo byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibirayi barabirya, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita urusenda iyo rwitaweho rutanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi bararurya, ikindi barujyana ku isoko bakarugurisha kuko ruvamo amafaranga.

Igihingwa twita imyumbati gisa neza, kuko imyumbati iraryoha. Ikindi kandi barayirya ikindi bayijyana ku isoko, kuko barayigura kuko ivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo umuntu wambaye imyenda isa n'icyatsi, ikindi kandi ibihingwa bisa neza kuko byitabwaho, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi ibihingwa bivamo umuti bifashisha bari kuvura, ari yo twita imiti ya kinyarwanda.

Umurima uhinzemo ibigori bisa neza iyo byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda ,ikindi kandi ibigori ni byiza cyane kuko barabirya ikindi kandi babikuramo ifu y'igikoma ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Isoko bacururizamo ibihingwa byitwa ibirayi, harimo ibirayi, amadegede ikindi kandi harimo n'ibijumba, ibitunguru n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, imbere y'ibyo birarayi hari umuntu wambaye agapfukamunwa, ibirayi ni byiza cyane kuko biraribwa, ikindi kandi biraryoha kuko babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo inyanya zisa neza, ikindi kandi iyo zitaweho zitanga umusaruro ushimishije, ikindi ushyiraho ifumbire twita imvaruganda. Muri uwo murima harimo umuntu wambaye imyenda isa n'umweru ,n'ipantaro isa n'ikaki, ikindi kandi inyanya ziraribwa, ikindi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Igihingwa twitaho ubunyobwa, ikindi kandi hari ubunyobwa butonoye n'ubundi budatonoye busa neza, kuko ubunyobwa ni bwiza cyane. Ikindi kandi ubunyobwa baraburya, ikindi ubunyobwa buvamo amavuta, abantu turayateka, kuko babujyana ku isoko kuko buvamo amafaranga.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri gucururizwa ahantu twita mu muhanda, harimo urusenda imyembe. Imbere y'ibyo bicuruzwa hari agataro bifashisha iyo bari kugosora ibishyimbo cyangwa amasaka. Hari n'udufuka tubiri. Ku gataro hariho amabara asa n'umuhondo n'andi asa n'icyatsi. Ikindi kandi urusenda ruragurwa kuko ruraribwa.

Umurima urimo ibyatsi byinshi cyane. Ikindi kandi harimo inka zifite amabara atandukanye. Ikindi kandi ubwatsi ni bwiza cyane kuko babuha inka. Ikindi kandi inka na zo zitanga umusaruro ushimishije kuko zirabyara. Ikindi kandi zivamo amata abantu tunywa. Ikindi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi muri uwo murima harimo abantu bambaye imyenda igiye zitandukanye, bari kubibagarira ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda ikindi kandi barabirya, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Inzu isakaje amabati asa n'umweru, yubakishije amatafari ya rukarakara, ikindi kandi ibirayi ni byiza cyane, kuko iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ibirayi barabirya, ikindi babijyana ku isoko, kuko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibijumba, bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ibijumba biraryoha ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Ibirayi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibirayi barabirya kuko biraryoha, ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura, ikindi bivamo amafaranga.

Igihingwa twita imyumbati gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi imyumbati ni myiza cyane kuko turayirya ikindi bayijyana ku isoko, kuko barayigura kuko ivamo amafaranga.

Isoko ryubatse ku buryo bugezweho risize amarangi asa n'umweru, n'ayandi asa n'umuhondo n'ayandi asa n'umukara, ikindi kandi bacuruzamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibirayi, intoryi, karoti n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ibirayi biba byiza cyane iyo byitaweho, kuko bitanga umusaruro ushimishije iyo babishyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi bawujyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Imyumbati isa neza kuko yitaweho, ikindi kandi imyumbati ivamo ubugari baraburya, ikindi babujyana ku isoko kuko babugura, ikindi kandi buvamo amafaranga.

Umurima urimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi bafite imyumbati isa neza iyo yitaweho, kuko bashyiraho ifumbire twita imbaruganda, ikindi kandi imyumbati iraribwa, ikindi bayijyana ku isoko, kuko ivamo amafaranga.

Amaronji ari mu iparato ikindi kandi asa neza, kuko yitaweho ikindi kandi atanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, ikindi kandi barayarya ikindi bayajyana ku isoko, kuko avamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibishyimbo, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi biraribwa kuko biraryoha. Ikindi kandi babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Umurima urimo ibishyimbo harimo n'umuntu, ikindi kandi ibishyimbo bimeze neza kuko byitabwaho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ibishyimbo barabirya kuko biraryoha, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima urimo abantu batatu bambaye imyenda itandukanye, ikindi kandi harimo ibigori kuko ibigori iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibigori barabirya, ikindi babijyana ku isoko bakabigurisha kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibyatsi, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, harimo amatungo twita intama, ikindi kandi ari kurisha, ikindi kandi ibyatsi bigira intungamubiri, ku matungo.

umushaza ari mu isafuriya ameze neza kuko yitaweho, ikindi kandi amashaza araryoha kuko barayarya, ikindi kandi' amashaza bayajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Umurima munini uhinzemo inyanya zisa neza kuko zitaweho, ikindi kandi zitanga umusaruro ushimishije iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi inyanya ziraribwa, kuko ziraryoha, ikindi kandi bazijyana ku isoko, kuko zivamo amafaranga.

Urubuto twita avoka, ikindi kandi rusa neza kuko barwitaho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi avoka barayirya kuko iraryoha, ikindi kandi bayijyana ku isoko, kuko barayigura kuko ivamo amafaranga.

Umurima munini cyane urimo igihingwa twita intoryi gisa neza, ikindi kandi harimo n'umuntu uri kucyitaho, yambaye imyenda isa n'icyatsi, ikindi kandi intoryi ziba nziza cyane, kuko turazirya, ikindi tuzijyana ku isoko, kuko barazigura, kuko zivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, n'ikindi kandi muri uwo murima harimo abantu bambaye imyenda igiye zitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho ikindi kandi biraribwa biraryoha, ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura ikindi kandi bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita imiteja. Ikindi kandi gisa neza kuko cyitaweho , umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bashiraho ifumbire twita imvaruganda kuko kiraribwa kuko bakijyana ku isoko barakigura kuko kivamo amafaranga.

Umurima urimo ibihingwa bisa neza, bigiye bitandukanye ikindi kandi byitaweho, kuko bitanga umusaruro ushimishije ahubwo babishyiraho ifumbire iyo twita imvaruganda ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga, ikindi kandi mbere y'ibyo bihingwa, hari umuntu wambaye imyenda isa n'umweru.

Igihingwa twita imiteja gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije kuko bashiiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi imiteja ni myiza cyane kuko iraryoha cyane, kandi bayijyana ku isoko, kuko barayigura, kuko ivamo amafaranga.

Umurima urimo abahinzi bambaye imyenda igiye itandukanye, ikindi kandi abahinzi batatu bafite amasuka bari guhinga, ikindi biba byiza ibihingwa iyo byitaweho kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barabirya, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Mu umurima urimo uwo muhinzi uri guhumbika imbuto zitandukanye, ikindi kandi zisa neza iyo zitaweho kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda.

Inanasi zisa neza, ikindi kandi zitaweho kuko zitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bazishyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ziraribwa kuko ziraryoha, ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Urubuto twita ironji rurimo ibisate bitatu ikindi ntigisatuye .Ikindi kandi rusa neza ,kuko rwitaweho ikindi kandi ironji riraryoha, kuko bararirya ,ikindi kandi bajyana ku isoko kuko rivamo amafaranga.

Umuririma urimo abantu benshi, bambaye imyenda isa n'icyatsi, ikindi kandi hahinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bisa neza kuko babyitaho kandi bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, kuko barabigurisha kuko babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Imbuto twita imyembe, isa neza kuko yitaweho icyindi kandi itanga umusaruro ushimishije, iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, icyindi kandi imyembe iraribwa, ikindi ivamo ji , ikindi barayigurisha kuko bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Umurima munini uhinzemo icyayi kimeze neza, kuko bacyitagaho, bashyizeho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi uwo murima urimo abahinzi bikoreye udutebo, bavuye gusarura icyo cyayi, ikindi kandi bakijyanye ku isoko kuko kivamo amafaranga.

Umurima urimo ibishyimbo bisa neza . Ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije iyo bashizeho ifumbire bita invaruganda. Ikindi kandi ibishyimbo barabirya kuko biraryoha. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga. Mu murima urimo ibishyimbo, harimo umuntu wambaye imyenda isa n'ubururu.

Iparato isa n'umweru iriho igihingwa twita imiteja, gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi bashyiraho ifumbirekayu bita imvaruganda, ikindi imiteja iraribwa kuko iraryoha, ikindi kandi bayjyana ku isoko, kuko barayigura, kuko havamo amafaranga.

Urubuto ruri ku iparato twita ipera. Rimeze neza ,rimwe rirasaduye irindi ntabwo risatuye. Ikindi kandi amapera aba meza cyane iyo yitaweho kuko atanga umusaruro ushimishije ,iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda . Ikindi kandi amapera bayajyana ku isoko kuko barayagura kuko avamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi mu murima harimo imashini ivomera ibyo bihingwa, ikindi kandi iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije kuko barabigura, kuko babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga ikindi kandi turabirya.

Urubuto twita amatunda ari mu ibase isa n'ubururu ,kandi amatunda ni meza cyane kuko araribwa kuko araryoha, ikindi kandi amatunda iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amatunda bayajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi muri uwo murima ,harimo abantu babiri bambaye imyenda igiye itandukanye, ikindi kandi biraribwa kuko babijyana ku isoko, kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo umuntu ari guhinga, ikindi ibihingwa iyo byitaweho bisa neza kuko bitanga umusaruro ushimishije, iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barabirya, ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Inkoko imeze neza. Ikindi kandi iri ku iparato isa n'umweru. Inkoko ni nziza cyane kuko ivamo inyama. Ikindi kandi inyama ziraryoha kuko turazirya.

Imyumbati imeze neza kuko yitaweho, ikindi kandi bashyizeho ifumbire yitwa imvaruganda, ikindi kandi imyumbati ivamo ifu y'ubugari, ikindi bayijyana ku isoko bagakuramo amafaranga.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye ikindi kandi bisa neza, kuko byitaweho ikindi bitanga umusaruro ushimishije. Kuko bashiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi biraribwa kuko biraryoha. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, icyindi kandi bisa neza kuko byitaweho, icyindi kandi bitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, cyindi kandi barabirya, icyindi babijyana ku isoko kuko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Umurima urimo umuntu, ikindi kandi hateyemo ibihingwa bigiye bitandukanye ikindi kandi bisa neza, kuko byitaweho ikindi kandi bigatanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire yo twita imvaruganda, kuko babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita itunda, gisa neza, kuko, cyitaweho. Ikindi kandi, amatunda ni meza cyane, kuko aba mu mbuto zubaka umubiri w'abantu. Ikindi kandi, iyo yitaweho, atanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi , amatunda barayarya. Ikindi, bayajyana ku isoko kuko avamo amafaranga.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi, harimo umuntu afite ibigori bifite amabara agiye atandukanye. Amwe asa n'umukara, asa n'umweru ikiindi kandi ibigori biba byiza cyane, kuko barabirya, ikindi bivamo ifu y'igikoma, ikindi kandi babijyana ku isoko, kuko barabigura, kuko bivamo amafaranga.

Ku isoko bacururizamo ibihingwa bigiye bitandukanye ,harimo imyumbati iri mu mabasi, ikindi kandi imbere y'ibyo bicuruzwa hari n'amabutike bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi hari n'abantu bari kugenda, hirya yabo hari inzu yubatse ku buryo bugezweho , isakaje amabati asa n'ubururu , yubakije amatafari ahiye, ikindi kandi imyumnati ni myiza cyane kuko barayirya.

Igihingwa twita karoti gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi barazirya kuko ziraryoha, ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko barazigura kuko zivamo amafaranga.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: imiteja, pavuro ,intoryi, indimu, ikindi kandi byose biragurwa kuko biraribwa ,ikindi kandi biraryoha ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Isoko bacururizamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo amaronji, amapome, ibinyomoro, n'ibindi byinshi, ikindi kandi biba byiza cyane kuko turabirya, ikindi kandi babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Imiteja iri mu gapaniye isa neza kuko yitaweho, ikindi kandi itanga umusaruro ushimishije, iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi imiteja barayirya kuko iraryoha ikindi bayijyana ku isoko kuko barayigura kuko ivamo amafaranga.

Mu murima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo abantu bambaye imyenda igiye itandukanye. Ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho kandi babishyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga ikindi kandi biranaribwa.

Ahantu hari inzu zigiye zitandukanye zubabakishije mu biti, ikindi kandi zisakaje amabati asa n'umweru, harimo n'utuntu dufite amabara asa n'umweru n'umutuku, ikindi kandi ruguru ya ho hari umutaka, hari n'inzu yubatse ku buryo bugezweho ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Amateke ari ku iparato, ameze neza kuko yihitaweho, ikindi kandi iyo yitaweho, atanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amateke barayarya kuko araryoha, ikindi kandi bayajyana ku isoko, kuko avamo amafaranga.

Isoko bacururizamo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo imyembe, indimu, amaronji, inanasi, ibinyomoro, imineke, ikindi kandi biraryo kuko biba mu mafunguro yubaka umubiri, ikindi kandi biragurwa kuko bivamo amafaranga.

Umurima urimo abahinzi ,bambaye imyenda igiye itandukanye ,bafite amasuka bari guhinga, hahinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisaka neza kuko babyitaho kuko bashyiraho ifumbire bitaga imvaruganda . Ikindi kandi barabijya, ikindi babijyana ku isoko kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Urubuto twita avoka rusa neza kuko rwitaweho, ikindi kandi ruraryoha kuko barujyana ku isoko, kuko bararugura ikindi kandi ruvamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita umuceri. Ikindi kandi, iyo witaweho utanga umusaruro ushimishije. ndetse kandi bashyiraho ifumbire bita imvaruganda. Ikindi kandi umuceri barawurya.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi gushyiraho ifumbire twita invaruganda, ikindi kandi barabigura kuko babijyanpana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa gisa neza, ikindi kandi kitaweho kuko gitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi kiraribwa, ikindi kivamo umuti, bakijyana ku isoko kuko kivamo amafaranga.

..ziri ku parato. Ikindi kandi zimeze neza kuko zitaweho. Ikindi kandi ziraryoha kuko barazirya. Ikindi kandi zigiraga intungamubiri. Ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko barazigura, kuko zivamo amafaranga.

Muririma urimo abantu benshi, bambaye imyenda igiye itandukanye, ikindi kandi uhinzemo icyayi gisa neza, kuko kitaweho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi kiranyobwa, ikindi kandi bacyiijyana ku isoko, kiragurwa, ikindi kandi kivamo amafaranga.

Igihingwa twita ibirayi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi bitanga umusaruro ushimishije kuko ubwo bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibirayi ni byiza cyane kuko biraryoha, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko barabigura kuko bivagamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibigori, ikindi kandi hahagaze umuntu urimo kubikorera neza, ikindi kandi ibigori ni ingenzi, kuko bivamo akawunga, ikindi kandi tukanabirya, kuko babijyana ku isoko, bikavamo amafaranga.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ikindi kandi harimo intoryi, inyanya, amashu, karoti, puwavuro, ikindi kandi barabigura, kuko barabiteka, ikindi kandi biraryoha.

Inkoko bita isake ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, ifite ikirokoroko, ikndi kandi isake iyo bukeye irabika igakangura abantu, ikindi kandi bayijyana ku isoko bakayigurisha kuko ivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho. Ikindi kandi mu murima harimo abantu batandukanye. Harimo uwikoreye agafuka. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko barabigura kuko havamo amafaranga. Ikindi kandi turabirya.

Umurima munini cyane urimo inka zifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'umukara n'umweru. Ikindi kandi inka ni nziza cyane kuko zirabyara, ikindi kandi zitanga ifumbire, ikindi zitanga amata, ikindi bazijyana ku isoko, kuko zivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita pavuro, ikindi kandi hariho pavuro ebyiri imwe isa n'umutuku, indi isa n'icyatsi , pavuro iba nziza cyane kuko turayiteka ikindi ifasha ibiryo guhumura neza, ikindi kandi pavuro iragurwa kuko uyijyana ku isoko, kuko ivamo amafaranga.

umurima urimo umuntu wambaye imyenda ifite amabara asa n'icyatsi, n'andi asa n'umutuku, n'ayandi asa na move, afite ibirayi, ikindi kandi ibirayi bisa neza, kuko iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi ibirayi barabirya kuko biraryoha.

Umurima urimo abantu benshi bagiye batandukanye. Ikindi kandi harimo amashu asa neza kuko yitaweho, kandi atanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi bayazana ku isoko kuko barayagura ,kuko havamo amafaranga.

Umurima urimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo amabuye. Amabuye ni meza cyane, kuko tuyifashisha turi kubaka amazu, turi gukora imihanda, kandi tuyifashishaga turi gukora indi mirimo igiye itandukanye.

Ibihingwa bitandukanye biri ku iparato bisa n'umweru, ikindi kandi bisa neza, ikindi biraribwa kuko biraryoha, ikindi kandi barabigura kuko babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita amasaka, asa neza kuko cyitabwaho, ikindi kandi atanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi amasaka ni meza cyane, kuko avamo igikoma, akavamo ubushera, ikindi kandi amasaka bayajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Ibishyimbo biri ku isahani isa n'umukara. ikindi kandi ibishyimbo bifite amabara agiye atandukanye. Amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, ikindi kandi ibishyimbo iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibishyimbo barabirya, ikindi babijyana ku isoko barabigurisha kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita amashaza asa neza, iyo yitaweho atanga umusaruro ushimishije, iyo bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amashaza barayarya, ikindi bayajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Umuntu ufite urutaro ari kugusohora igihingwa twita umuceri, ikindi kandi umuceri ni mwiza cyane kuko ugirira abantu akamaro, ikindi kandi umuceri urribwa kindi bawujyana ku isoko ukovamo amafaranga.

Umurima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo ibishyimbo bisa neza, kuko byitaweho ikindi kandi bitanga umusaruroushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi babijyana ku isoko, kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Inzu zubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi hari imifuka ikindi kandi hari imiceri imennye hasi idaseye, ikindi hari n'indi mifuka isa n'umweru ifite amabara asa n'umutuku, ikindi kandi ku ruganda haba heza kuko hadufasha gutunganya ibyo dukenera turi kurya.

Inzu yubakishije ibiti bisa n'umukara, isize amarangi asa n'umutuku, ikindi kandi harimo ibigori bimanitsemo ikindi ibigori ni byiza kuko barabirya, ikindi kandi babijyana ku isoko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Igihingwa twita amasaka kiri kumukeka ikindi kandi amasaka aba meza, kuko avamo igikoma, akavamo ubushera, ikindi kandi amasaka aragurwa kuko bayajyana ku isoko kuko avamo amafaranga.

Umuntu uri guhungura igihingwa twita igihwagari, gisa neza kuko kitaweho, ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije ,ikindi kandi igihwagari ni cyiza cyane kuko kuko turakirya, ikindi kandi kivamwo amavuta.

Isoko bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibishyimbo, ibirayi. Ikindi kandi harimo na mironko isa n'umutuku, ikindi kandi hari abantu bicaye ikindi kandi imbere y'ibyo bicuruzwa hari inzu yubatse ku buryo bugezweho hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ubunyobwa buri mu murima busa neza bufite imizi yabwo, ikindi kandi iyo bwitaweho butanga umusaruro bushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda ikindi kandi ubunyobwa ni bwiza cyane kuko baraburya, ikindi kandi buvamo amavuta, ikindi babujyana ku isoko kuko buvamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita igihwagari ikindi kandi gisa neza kuko cyitaweho, ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije kuko bashyizeho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi baragiteka kuko kiraryoha ikindi kandi bakiijyana ku isoko kuko kivagamo amafaranga.

Igihingwa twita amashaza, bacyitaho bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi barayarya ikindi bayajyana ku isoko, bakayagura kuko havamo amafaranga.

Umurima munini uhinzemo igihingwa twita amashaza, bayitaho ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi atanga umusaruro ushimishije, bayajyana ku isoko bayakuramo amafaranga.

Ubunyobwa buri ku mufuka, ikindi kandi buza neza kuko bwitaweho, ikindi kandi harimo n'umuntu urimo arajonjoramo ubunyobwa, ikindi kandi barabugura, ikindi kandi buraribwa, ikindi kandi babujyana ku isoko kuko buvagamo amafaranga.

Igihingwa twita amashaza kiri ku iparato gisa neza, ikindi kandi kiri kumera iyo gitewe kitabwaho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire yitwa imvaruganda, amashaza barayarya kuko araryoha, ikindi kandi bayajyana ku isoko kuko barayagura kuko avamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita soya, zimeze neza kuko zitaweho, ikindi kandi zitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi soya ni nziza cyane kuko turayirya ikindi kandi tuyinwamo igikoma, ikindi tuyijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Abantu babiri bagiye batandukanye umwe n'umugore undi n'umugabo, ikindi kandi bose bafite intaro bari gukosora umuceri imbere yabo hari imifuka irimo umuceri, ikindi kandi umuceri ni mwiza cyane kuko uraribwa, ikindi kandi bawujyana ku isoko kuko barawugura kuko uvamo amafaranga.

Igihingwa twita ubunyobwa bakitaho kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije, kuko babujyana ku isoko, bakabugurisha, bagakuramo amafaranga.

Ibigori bisa neza kuko ubyitaho, ikindi kandi ibigori ni byiza cyane, kuko bivamo ifu y'igikoma, ikindi bivamo akawunga, ikindi barabigura kuko biraryoha, ikindi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umuririma urimo ubunyobwa busa neza iyo bwitaweho, ikindi kandi ubunyobwa buri ku biti byabwo, ikindi ubunyobwa ni bwiza cyane kuko turaburya, ikindi babujyana ku isoko kuko barabugura, kuko buvamo amafaranga, ikindi buvamo amavuta.

Igihingwa twita ubunyobwa busa neza, kuko ubwitaho, ikindi kandi butanga umusaro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ubunyobwa buraribwa, ikindi babujyana ku isoko kuko barabugura, ikindi kandi buvamo amafaranga.

Umurima wubatsemo inzu imeze neza. Ikindi kandi iyo nzu ikikijwe n'ibyatsi. Harugu yaho hari ibiti bimeze neza. Ikindi kandi hari n'amabuye twita amakoro.

Umurima uhinzemo igihingwa twita ibishyimbo. Ikindi kandi gisa neza kuko kitaweho. Ikindi kandi gitanga umusaruro ushimishije kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda. Ikindi kandi ibishyimbo biraryoha kuko barabirya. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bivamo amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa twita amashaza, ikindi kandi asa neza kuko yitaweho, ikindi kandi atanga kandi umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, ikindi kandi amashaza barayarya ikindi bayajyana ku isoko, kuko barayagura kuku avamo amafaranga.

Umwo bacururiza ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, amasaka, ubunyobwa, ikindi kandi, biraribwa kuko biraryoha, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko barabigura kuko bivamo amafaranga.

Umuririma uhinzemo ibishyimbo biri kumera, harimo n'ibindi bitaramera n'ibindi bifite n'imizi, ikindi kandi ibishyimbo ni byiza cyane kuko iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi ibishyimbo barabirya kuko babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi harimo umuntu ufite igihingwa twita ubunyobwa, ikindi kandi busa neza, kuko bwitaweho, ikindi kandi ubunyobwa baraburya, ikindi baburana ku isoko, kuko barabugura kuko buvamo amafaranga.

Igihingwa twita ubunyobwa busa neza, ikindi kandi hari ubunyobwa butonoye n'ubudatonoye, ikindi ubunyobwa buraribwa kuko buraryoha, buvamo isosi, buvamo amavuta. Iyo babujyanye ku isoko barabugura kuko buvamo amafaranga.

Mu murima uhinzemo amasaka asa neza kuko yitaweho ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi amasaka ni meza cyane kuko havamo ifu y'igikoma, ikindi havamo ikintu twita ubushera, ikindi bayazana ku isoko kuko avamo amafaranga.

Igihingwa twita ubunyobwa busa neza cyane kuko bwitaweho, ikindi kandi butanga umusaruro ushimishije. Ibunyobwa ni bwiza cyane kuko buvamo amavuta ikindi turaburya, ikindi kandi tubujyana ku isoko kuko barabugura, kuko buvamo amafaranga.

Igihingwa twita amashaza asa neza cyane, kuko yitabwaho, ikindi kandi bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, n'ayandi ari mu gatebo, ikindi kandi amashaza turayarya, iki kandi tuyajyana ku isoko, kuko barayagura, kuko avamo amafaranga.

Ibishyimbo bifite amabara asa n'umutuku ikindi kandi bisa neza kuko byitaweho, ikindi kandi ibishyimbo biba byiza cyane, kuko biba mu mafunguro yubaka umubiri w'abantu ,ikindi kandi ibishyimbo barabigura kuko babijyana ku isoko, kuko bivamo amafaranga.

Inzu yubakishije ibyuma, isakaje amabati asa n'umutuku, ikindi kandi muri iyo nzu harimo ibigori byinshi cyane, ikindi imbere ya ho hari abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi ibigori ni byiza cyane iyo byitaweho, kuko bitanga umusaruro ushimishije, kuko bashyiraho ifumbire twita imvaruganda, ikindi kandi ibigori barabirya, kuko babijyana ku isoko, kuko havamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inka nyinshi cyane zifite amabara atandukanye ikindi kandi harimo abantu batandukanye harimo n'undi twita umuveterineri yambaye imyenda isa n'ubururu, umuveterineri ni ingirakamaro k'ubumwe ahubwo kuko azifasha kwitabwaho kuko aziteraga imiti zikabaho mu buzima bwiza.

Ikiraaro kinini cyane cyubatse neza, usanga cyubakishije amabati asa n'umweru, n'ibiti bisa n'umutuku. Ikindi kandi, inka ifite amahembe manini cyane, ifite n'ikintu twita amaherena. Ikindi kandi, inka ni nziza cyane kuko ivamo amata. Ikindi kandi, barayigurisha kuko ivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inkoko nyinshi cyane zisa n'umweru ,ikindi kandi inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi, tukayarya kuko araryoha, ikindi kandi inkoko zivamo inyama, ikindi bazicana ku isoko ,kuko barazigura kuko zivamo amafaranga.

Umurima munini cyane, urimo inka nyinshi zifite amabara asa n'umukara, andi asa n'umweru. Ikindi kandi hari n'abantu benshi. Ikindi hari n'umuntu wambaye imyenda isa n'umweru n'umukara. Ikindi kandi inka ziba nziza cyane kuko zitanga umusaruro ushimishije kuko zivamo amata. Ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo abantu batatu, harimo n’inka. Abantu babiri bambaye imyenda zisa n’ubururu, n’ingofero zisa n’umweru. Harimo n’inka. Inka, iyo yitaweho, itanga umusaruro ushimishije.

Umuntu uri mu kiraro ikindi kandi harimo n'ingurube, iri konsa abana bayo ikindi kandi ingurube ni nziza cyane, iyo yitaweho itanga umusaruro ushimishije kuko itanga ifumbire, icyindi kandi barayirya, icyindi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Urwuri rurimo inka nyinshi cyane zifite amabara agiye atandukanye, ikindi kandi harimo inka hari umuntu uri kuyikama afite ikintu twita inkongoro. Ikindi kandi inka iba nziza cyane kuko itanga umusaruro ushimishije kuko ivamo amata, ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, n'ayandi asa n'umweru, imbere y'iyi nzu hari ibyapa bigiye bitandukanye, ikindi kandi hakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ikiraro bororeramo inkwavu. ikindi kandi imbere y'urwo rukwavu hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Ikindi kandi rusa neza kuko rwitaweho. Ikindi kandi bararurya. Ikindi barujyana ku isoko kuko bararugura, kuko ruvamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inka ikindi kirimo n'umuntu twita umuveterineri arimo kuyitera umuti, ikindi kandi yambaye imyenda isa n'icyatsi, ikindi kandi inka iyo yitaweho itanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi itanga amata kuko bayijyana ku isoko bakayigurisha kuko ivagamo amafaranga.

Ikiraro kirimo abantu benshi bambaye imyenda isa n'umweru, na ga zisa n'ubururu ,n'abandi bambaye imyenda isa n'ubururu, ikindi kandi abo bantu tubita abaveterineri, ikindi bafite n'inka ifite amabara asa n'umutuku , ikindi abaveterineri barimo kuyikingira, ikindi inka ni nziza cyane kuko itanga amata.

Ikiraro kirimo amatungo twita inkwavu, zisa neza, ikindi kandi zitabwaho, ikindi inkwavu ni nziza cyane, kuko barazirya, ikindi kandi bazijyana ku isoko, kuko zivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inkoko zisa neza cyane, kuko zitaweho ikindi kandi inkoko ni nziza cyane kuko ziratera zikavamo amagi, ikindi kandi amagi turayarya, kuko yubaka umubiri w'abantu, ikindi kandi inkoko bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

ikiraro kirimo abantu babiri, umwe twita umuveterineri afite umuti ari gutera inka, kuko iyi nka yitaweho itangaga umusaruro ushimishije, kuko itangaga amata, ikindi kandi bayijyana ku isoko bakayigurisha kuko ivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo amatungo agiye atandukanye, harimo inka, ihene. Ikindi kandi, imbere y'icyo kiraro hahagaze abantu batandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo. Ikindi kandi, amatungo aba meza cyane kuko adufasha kwikura mu bukene.

Ikiraro kiririmo ingurube kiri konsa abana bazo, ikindi kandi ingurube iba nziza cyane iyo yitaweho, kuko itanga umusaruro ushimi shije, itanga ifumbire, ikindi kandi barayirya, ikindi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Umurima munini cyane urimo abantu bagiye batandukanye, ikindi kandi harimo inka, ikindi hari n'indege, inka iri kwitabwaho na veterineri, kuko veterineri ni mwiza cyane kuko yita ku matungo yacu ,akayatera imiti, akayafasha kubaho mu buzima bwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo umuntu twita umuveterineri, yambaye imyenda isa n'umweru n'indi isa n'umuhondo, ikindi kandi afite icupa ari gukuramo umuti, ikindi kandi umuti ni ingenzi ku matungo yacu, kuko awugirira neza.

I.. kirimo inka iri kuririsha ubwatsi. Ikindi kandi ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umukara andi asa n'umweru. Kandi inka ni nziza cyane kuko irabyara . Ikindi kandi ivamo amata. Ikindi bayijyana ku isoko kuko barayigura ikavamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inkoko zisa neza kuko zitaweho, ikindi kandi harimo n'ibiryo ziri kurya, ikindi inkoko ni nziza cyane, kuko ziratera zikavamo amagi, turayarya, ikindi kandi bazijyanaga ku isoko, kuko havagamo amafaranga.

Ikiraro kirimo itungo twita ingurube, ikindi kandi isa neza kuko yitaweho, ikindi kandi ingurube iba mu matungo agira inyama ziryoha, ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko barayigura, kuko ivamo amafaranga.

Inka ziri mu kiraro. Ikindi kandi zimeze neza kuko zitabwaho, baziha ubwatsi bumeze neza. Ikindi kandi baziha imiti . Ikindi inka ni nziza cyane kuko ivamo amata tunywa. Ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga.

Ahantu twita muri busheri bacururiza inyama. Harimo inyama zishya neza, ikindi kandi inyama ziraryoha kuko bazikoramo isozi nziza cyane. Ikindi kandi inyama barazotsa kuko bazikoramo ibintu twita boroshete.

Mu murima munini cyane w'byatsi bimeze neza, harimo inka nyinshi zifite amabara agiye atandukanye, ikindi kandi inka iyo zitaweho zitanga umusaruro ushimishije, kuko zivamo ifumbire, zikavamo amata, ikindi kandi bazijyana no ku isoko, kuko zivamo amafaranga.

Ikiraro cyubakishije ibiti gisakaje amabati yasa n'umukara, ikindi kandi ikiraro tucyororeramo inka, ihene, inkoko, ingurube, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kuko bitugirira akamaro.

Ikiraro kirimo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, harimo na ba bandi twita abaveterineri. Harimo n'ingurube. Ikindi kandi, ingurube itanga umusaruro iyo yitaweho. Ikindi kandi bayijyana ku isoko kuko ivamo amafaranga. Ikindi kandi iranaribwa.

Ikoko iri mu murima, ikindi kandi isa neza kuko yitaweho, ikindi kandi inkoko ni nziza cyane, kuko iratera ikavamo amagi kuko amagi ni meza cyane, kuko yubaka umubiri w'abantu. Ikindi kandi bayijyana ku isoko, kuko ivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inkoko zigiye zitandukanye, harimo inkokokazi, ikindi kandi inkoko ni nziza cyane kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi ziratera kuko zivamo amagi, abantu turayarya kuko yubaka umubiri. Ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo inka n'umuntu twita umuveterineri yambaye imyenda isa nk’icyatsi, imbere ye hari agacupa, ikindi kandi inka iba nziza cyane kuko igira umusaruro ushimishije ubwo yabyaraga, ikindi kandi barayikama kuko ivamo amata abantu twese tunywa.

Inka iri mu kiraro iri kumwe n'umuntu twita umuveterineri, yambaye imyenda isa n'umweru, agapfukamuwa gasa n'umukara ,ikindi kandi yambaye na ga zisa n'ubururu, ikindi afite ikintu twita igitogi yashyizemo umuti ,ari gutera inka urushinge, ikindi kandi, inka ni nziza cyane kuko ivamo amafaranga.

Ikiraro kirimo matungo twita ihene. Harimo ibikapu. Harimo abantu. Ikindi kandi ihene ziraziritse. Ikindi kandi ihene zisa neza kuko zitaweho. Ikindi kandi zitanga umusaruro wo ushimishijwe. Ikindi ihene zivamo inyama. Ikindi kandi bazijana ku isoko kuko zivamo amafaranga.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye, ikindi kandi inyoni iri ku giti, ikindi inyoni ni nziza cyane, kuko iyo bukeye iravuga, kuko iradukangura, iki ni cyo cyiza cy'inyoni.

Umurima urimo urukwavu rusa neza, ikindi kandi urukwavu ruraribwa kuko ruraryoha. Ikindi kandi barujyana ku isoko kuko bararugura ikindi kandi ruvamo amafaranga.

Umuririma urimo urutare, harimo ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo inyamaswa twita ingwe, ikindi kandi ingwe iba mu ishyamba, kuko ibanamo n'ibindi bisimba bigiye bitandukanye.

Inyoni eshatu zihagaze ku giti gisa n'umukara, ikindi kandi zifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'icyatsi, ikindi kandi inyoni ni nziza cyane, kuko iyo bukeye ziravuga, kuko ziradukangura.

Iyi nyamaswa twita umuserebanya ifite amaguru abiri n'amaboko abiri, ifite amabara asa n'umukara, ayandi asa n'umuhondo, ikindi kandi iyi inyamaswa twita umuserebanya iraryana.

Umurima munini cyane, urimo ibintu bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo n'inzu yubakishije ibyuma, ikindi kandi harimo n'inyamaswa twita umusambi, uba mwiza cyane, kuko bawukoramo n'imitako.

Igiti gisa neza. Ikindi kandi kirimo inyoni ifite amabara agiye atandukanye. Amwe asa n'umukara, andi asa n'umuhondo. Andi asa n'umweru. Ikindi kandi igiti ni ingenzi ku nyoni kuko zubakamo kuko zibamo.

Umurima munini urimo inyamaswa zigiye zitandukanye ,harimo inyamaswa twita nk'iy'ishyamba, ikindi kandi inyamaswa ziba nziza cyane, kuko ziribwa , kuko zivamo inyama abantu barya.

Inyoni iri ku giti gisa n'umukara, ikindi kandi inyoni ifite amabara asa n'umukara, andi asa n'umweru, n'andi asa n'ikivurivundi, inyoni ziba nziza cyane, kuko iyo bukeye ziravuga, kuko ziradukangura.

Ibyatsi byinshi cyane bitandukanye, harimo inyamaswa twaaita inyoni, zifite amabara asa n'umutuku, ayandi asa n'umweru, andi asa n'umukara, ikindi kandi inyoni ziba nziza cyane, kuko iyo bucyeye ziradukangura.

Inyayamaswa twita igikeri kiba ahantu mu ishyamba, ikindi kandi igikeri gikunda amazi kuko amazi ni ingenzi mubuzima bwacyo.

Inyamaswa twita igikeri, ikindi kandi igikeri kiba cyiza cyane, kuko kibera mu mazi. Ikindi kandi amazi ni ingenzi ku buzima bw'igikeri.

Inyoni zifite amabara asa n'umukara, andi asa n'umweru ziri ku rutsinga rukurura umuriro. Ikindi kandi inyoni ni nziza cyane, kuko iyo bukeye ziravuga kuko ziradukangura.

Umurima urimo inyamaswa twita ihene y'ishyamba, ikindi kandi isa n'umutuku, biragaragara ko isa nkaho iri kugenda, ikindi kandi inyamaswa iba mu ishyamba.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umukara, ayandi asa n'umuhondo. Ikindi kandi inyoni ziba nziza cyane kuko iyo bukeye ziravuga, kuko ziradukangura.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'umukara, ikindi kandi inyoni ifite ifi mu kanwa ,ikindi kandi iyikuye mu mazi kuko ifi iraryoha.

Umurima urimo ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi harimo inyamaswa twita igisiga, ikindi kandi biba byiza, kuko iyo bukeye biravuga, kuko biradukangura.

Igisimba twita icyumvu gifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umukara, andi asa n'icyatsi . Ikindi kandi kiri mu mabuye, ikindi kandi kiraryana.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'ubururu, ayandi asa n'umweru, ikindi kandi ifite umunwa usa n'umutuku, ahandi ni umukara, ihagaze ku giti.

Umurima urimo inyamaswa twita inkende ifite amabara asa n'umweru , andi asa n' ikivurivundi, andi asa n'umukara. Ikindi kandi inkende iba mu matungo aba mu ishyamba cyangwa bakayiyororera.

Umurima urimo indabyo zifite amabara agiye atandukanye, ikindi kandi harimo n'inyoni ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, ayandi agasa n'umweru, ayandi asa n'umukara, ikindi kandi inyoni ziba nziza cyane, iyo bukeyeye ziravuga kuko ziradukangura.